Mu mashuri y'incuke n'abanza niho abana bigishirizwa bakiri bato ibijyanye n'uko bakitwaye nk'umuco nyarwanda ndetse n'indangagaciro ziranga umunyarwanda nyawe bityo agakura azi ikibi n'icyiza.

Ni byiza ko abana bigishwa mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye ibijyanye n'imyororokere yabo ndetse n'uko ibiryo bigogorwa mu gihe babiriye kugira ngo babashe kumenya neza impamvu z'ibijyanye n'ubuzima bwabo bwo mu nda.

Imbuga zitandukanye mu mashuri abanza n'ayisumbuye zituma abana babasha kwidagadura mu gihe bavuye mu masomo yabo bagiye mu karuhuko gato mbere yuko bataha. Aho usanga abana bajya mu karuhuko bakishima, bagashyira ku murongo ibyo bari bamaze kwigishwa binyuze muri icyo kiruhuko bahawe.

Ni ngombwa ko abana biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye bigishwa ibintu bigiye bitandukanye, urugero: kwigishwa ibikoresho abantu bifashisha mu bubaji, mu bufundi n'ahandi bakiri bato, urugero: ingorofani, igitiyo, amasuka, inyundo n'ibindi.

Ibibuga bitandukanye, bifasha abaturage mu gukora amahuriro harimo inama, guhabwa ibiganiro bitandukanye, imyitozo ngororamubiri irahakorerwa.

Abarezi barera abana mu bigo by'amashuri basanga kuba hari ahantu ho kwidagadurira ku bana bibafasha mu myigire yabo ya buri munsi, kuko iyo bamaze kwiga bananiwe baraza bakagenda bakidagadura.

Ibigo by'amashuri y'abana bakiri bato cyane, bikwiriye kuzajya byitabwaho, bigahabwa abarezi babigize umwuga, babihuguriweho neza kuko iyo umwana akurikiranywe akiri muto nibwo abasha kwiga neza, akazakura hari icyo amenye.

Aha ni ku kigo cy'amashuri y'inshuke, aho hashushanyije amasaha, hari n'igare abana bari mu ishuri.

Twige neza ururimi rwacu. Ikinyarwanda ni ururimi rw'Abanyarwanda tuvuga, ruturanga rudutandukanya n'abandi banyamahanga bose ,rufite umuco wihariye abaturage bakurikira kandi bakanakurikiza.

Mu mashuri abanza n'ayisumbuye na za Kaminuza, ibikoresho bijyanye no kwandika harimo amatushi, amakaramu, amakaye ndetse n'ibindi, bifasha abanyeshuri mu kwiga neza ibijyanye n'imibare ndetse no gushushanya.

Inyubako z'amashuri abanza n'ayisumbuye, kaminuza n'izindi nyubako za leta zihuriramo abantu kugira ngo bahabwe ubumenyi butandukanye, zaje gukemura ibibazo biterwa no kuba abanyeshuri bigira ahantu bacucitse.

Abarimu bagira uruhare mu iterambere ry'igihugu kuko nibo bigisha abayobozi b'ejo hazaza, babigisha uko babasha kubara, ubwo babigisha imibare, babigisha n'ibindi byose bitandukanye mu mashuri yabo.

Ibice byose by'Igihugu haba mu byaro, haba mu mujyi ndetse no mu nkengero z'Igihugu byujujwemo amashuri abanza n'ayisumbuye kugira ngo abana bazabashe kugera ku byo biyemeje binyuze mu kwigishwa.

Ni byiza cyane kugira inyandiko igaragaza icyapa kiriho amashuri mbese ikigo runaka kubera ko iyo umuntu azakigana abasha kumenya ikigo agiyeho uko kitwa, agitandukanya n'ikindi atari akeneye.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye, iyo basoje igihembwe cya mbere, cyabo cy'amasomo, bahabwa indangamanota kugira ngo bamenye, aho, bagize imbaraga nke, ndetse n'uko babikosora.

Amashuri abanza n'ayisumbuye, amaze gukataza muri iki gihugu. Kubera ko bifasha Leta, kugira ngo ibashe kugera ku bikorwa byayo yiyemeje byo kuba nta munyarwanda ugomba gusigara inyuma mu by'ubumenyi, mu myuga ndetse n'ibindi.

Tubere abana bacu ibiraro bibageza ku iterambere bikanateza imbere igihugu ari cyo Rwanda rw'ejo, binyuze mu kwigisha abana bakiri bato tukabakundisha kwiga, tukabakundisha igihugu, tukabakundisha ibyiza byose nyaburanga by'igihugu.

Inyubako z'amashuri mu gace gatandukanye k'igihugu runaka, ziba zigomba kuba zifite ikirango kigaragaza igihugu, bakita mu bundi buryo ibendera kubera ko risobanura neza ahoyo mashuri akomoka, igihugu icyo ari cyo.

Ingabo z'igihugu zifatiye runini igihugu ndetse n'abagituye, aho usanga ku mashuri no ku bindi bigo bya Leta harindwa cyane cyane n'ingabo z'igihugu kugira ngo hatagira abantu baza guhungabanya umutekano w'abakorera muri ibyo bikorwa.

Abana biga mu mashuri y'inshuke ndetse n' abanza, usanga bakunda kuririmba uturirimbo dutuma baruhuka mu mutwe mu gihe bamaze gufata amasomo, bityo mwarimu akanaboneraho kubigisha indirimbo irimo ibijyanye no gusoma, irimo ibihekane, inyajwi n'ingombajwi.

Kubaka amashuri abanza n'ayisumbuyeye na kaminuza bisaba ko abafundi ndetse n'abubatsi babugenewe bubaka neza aho abanyeshuri bazajya bicara mu gihe badakeneye kuba bari mu ishuri bagiye nko kwidagadura n'ibindi.

Umuganura ni umunsi wizihizwa mu Rwanda buri mwaka, aho abaturage bahura bakaganuzanya ku myaka baba basaruye kugira ngo buri munyarwanda wese abashe kurya no kunywa ku byasaruwe na mugenzi we, bigaragaza yuko Igihugu kimeze neza.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, bakeneye kuzajya bahabwa amahugurwa bakigishwa indangagaciro ndetse n'umuco wa Kinyarwanda kugira ngo nibarangiza amasomo yabo, bazabashe gukora ibibereye igihugu.

Mu ngando ni ahantu abanyeshuri bahurira habugenewe barangije amasomo yo mu mashuri yisumbuye bagahabwa indangagaciro na kirazira biranga umunyarwanda ukwiriye kuba ari mu gihugu ndetse yagiteza imbere.

Abanyeshuri iyo bambaye impuzankano bishimye bizihiwe nyuma yo kubona indangamanota zabo, uba ubona ko nabo ubwabo banejeje cyane kuko bavugaga bati "tuvuye ku rwego ubu ngubu tugeze kuri ruriya".

Abantu benshi baje kumenya agaciro k'amashuri abanza n'ayisumbuye ndetse na kaminuza kuko bigisha imyuga y'ubumenyingiro, bigisha indangagaciro zigomba kuranga buri muturage w'agace runaka.

Amashuri ni kimwe mu bikoresho by'ingamba z'iterambere kubera ko abana bakiri bato baragenda bakigishwa n'abarezi babo, bakigishwa indangagaciro, bakigishwa uko bakwihangira umurimo, bakigishwa n'ibindi byose bikenerwa kugira ngo bazabashe kwibeshaho.

Ubuhanga buravukanwa, impano iravukanwa, umunyeshuri mu banyeshuri ibihumbi icumi niwe uyoboye umuhango w'iki kirori, aho abanyeshuri bahawe indangamanota zabo, umuyobozi w'umukobwa akuriye abandi ku kigo akabagezaho ijambo batahana kugira ngo bazabashe kuba babana n'ababyeyi babo neza.

Mwarimu ahurira n'abanyeshuri mu ishuri ryabugenewe, akabaha amasomo atandukanye, kugira ngo bazabashe kurangiza bazi icyo gukora ku masoko ajyanye n'umwuga.

Amashuri ni igikorwaremezo gihambaye gifasha abanyeshuri kwiga neza bakazakora bazi ubwenge, bazi gukora bakiteza imbere, bagateza imbere imiryango yabo, bagateza imbere Igihugu n'Isi yose.

Umunyeshuri wese ukurikira inama ahabwa n'abarezi, agakurikira inama z'ababyeyi be, ndetse n'abayobozi bamuyobora, niwe ubasha kuvamo umuhanga uzi byose, kandi agateza imbere igihugu.

Uburezi ni bwiza. Abanyeshuri iyo bateraniye ahantu hamwe, bari kwiga ku isomo runaka, birabashimisha cyane kuko baba bavuga yuko bazabasha kwiteza imbere bitewe n'ubumenyi bavomye mu mashuri baba barigiyemo.

Leta iyo ariyo yose iba ifite inyubako z'amashuri aho abana bajya kwiga bakahakura uburere ndangagaciro, ubumenyi bwabajyana ku murimo ugasanga barabizi neza, bityo bikabateza imbere.

Ibihugu byinshi byateye imbere kubera uburezi butandukanye buhabwa abana bakiri bato, bagakura bakunda kwiga binyuze mu mashuri y'ibikorwa remezo aba yarubatswe muri icyo gihugu, bityo rero igihugu kigira abanyabwenge kandi b'abahanga, babasha kwihangira imirimo itandukanye.

Mu mashuri yisumbuye usanga abakobwa basigaye bafite ijambo nk'uko umuhungu arigira usanga umukobwa ajya imbere y'abandi banyeshuri akabasobanurira igitekerezo kijyanye n'amasomo biga mu gihe kera wasangaga nta gaciro bahabwa imbere ya bagenzi babo.

Abanyeshuri bo muri kaminuza iyo basoje amasomo yabo, bahabwa impamyabushobozi ndetse n'impamyabumenyi igaragaza ko bize ayo mashuri. Baba bishimye cyane bavuga bati rwose ibyo twaruye tubigezeho.

Muri kaminuza, umwarimu arimo kwigisha abanyeshuri ibikoresho by'ikoranabuhanga uko byitwa nuko abikoresha, ahagaze imbere yabo.

Amashuri y'inshuke abanza n'ayisumbuye za kaminuza, bikwiriye kuzajya byitabwaho mu gihugu, bakabikurikirana cyane kandi bakabyongera kuko n'ibyo terambere, nibyo nkingi yubaka igihugu kirambye kizira ikibazo icyo aricyo cyose.

Kaminuza ndetse n'imirimo ijyanye n'ubukorikori n'imyuga. Aho batwereka ifoto y'ubwato.

Usibye no kuba ibibumbano n'ibishushanyo bishobora gushimisha ubikora ndetse n'ababireba binagira uruhare rukomeye mu kuba ubikora yakiteza imbere mu buryo butandukanye.

Umwuga w'ububaji, kwigana no gushushanya bituma abantu bamenya icyerekezo cy'ibintu runaka, aho usanga mu muhanda hari ibishushanyo bigaragaza ahantu runaka, ingona yashushanyijwe neza n'ibiti byegereye amazi irimo ijya guhinga.

Umwuga gakondo w'ubukorikori no kubumba ibibumbano byakijije bamwe mu batuye iyi si, urugero twatanga mu Rwanda usanga abantu baribumbiye mu matsinda bagakora umwuga w'ubukorikori ndetse n'uwo kubumba ibibumbano bigurwa na benshi kuko biba byisanisha n'umuco nyarwanda.

Kwigishwa, guhugurwa, kuganirizwa ku bijyanye n'amasomo ahabwa abaturage aho batuye, bifasha abayobozi mu gutahukana ubundi bumenyi n'ibitekerezo yewe n'uburambe basangijwe na bagenzi babo mu gukemura ibibazo by'abaturage runaka.

Ikoranabuhanga mu mashuri makuru na za kaminuza ryarakajijwe cyane, Leta yafashe za mudasobwa irazikwirakwiza mu banyeshuri kugira ngo bajye barangiza bazi gukoresha ikoranabuhanga ku isoko ry'umurimo.

Ibigo byinshi bya leta ndetse n'ibyikorera usanga biba bitegetswe kubaka ahantu habugenewe imodoka cyangwa moto cyangwa se igare bishobora kuza bikaba biruhukiye biparitse kugira ngo bibone serivise byari bije kureba.

Isomo ry'imibare ni isomo umunyeshuri cyangwa se umwana wese yiga akazakura azi gutandukanya, azi kubara, azi imibare yo kugabanya, azi gukuba, azi guteranya, azi gukuramo bityo bigatuma kuba muri iyi si y'imibare, muri iyi si ya gihanga abasha kuyibamo nta kibazo.